Turikumwe ni ubwishingizi bw'ubuzima butangwa n' ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda cya Radiant. Ushobora gufatamo ubwishingizi bwawe ku giti cyawe, ubw'umuryango wawe cyangwa se ubw'abantu muva inda imwe.

Banki ya Kigali ni kimwe mu bigo by'imari bikorera mu Rwanda. Banki ya Kigali ikaba ifite ikoranabuhanga ritandukanye, rishoboza kogeza serivisi ku bakiriya bayo. Ushobora gukoresha serivisi za banki kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa. Ushobora kureba kuri konti yawe, kohereza amafaranga, kwakira amafaranga, kwishyura ibikore byinshi bitandukanye.

Inkweto zicuruzwa z'abantu b'ingeri zose, harimo inkweto z'abantu b'igitsina gabo ndetse harimo n'inkweto z'abantu b'igitsina gore, harimo inkweto nziza cyane ushobora gukoresha mu kazi, watashye ubukwe ndetse n'ahandi hantu hatandukanye.

Aho bacururiza imipira itandukanye, hari imipira y'abantu b'ingeri zose, hari iy'abagabo ndetse n'iy'abagore, n'imipira wakwambara ugatembera, ukajya gusenga cyangwa se ukawujyana ku kazi kandi hari amabara menshi atandukanye.

Abagabo babiri baguze imodoka mu kigo Akagera Business Group, Akagera busines group ni sosiyete ikorera mu Rwanda, ikaba itumiza imodoka nshyashya zitandukanye, ushobora no kuguramo imodoka nini cyane wakoresha muri business.

Inote y'amafaranga ibihumbi bitanu y'u Rwanda igizwe ahanini n'ibara ry'umutuku, hejuru ku ruhande rumwe handitseho banki nkuru y'u Rwanda n'amafaranga ibihumbi bitanu, hagati hasha harimo igishushanyo cy'ingagi, munsi handitsemo amafarangaibihumbi bitanu.

Igiceri cy'amafaranga mirongo itanu cyakoreshwaga mu Rwanda mu gihe cya kera, cyari gifite ibara ry'umuhondo ya cyanyanditseho umubare mirongo itanu, munsi hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, ku ruhande hakaba ishami ry'ikawa.

Isiko ni sosiyete icunga umutekano, ikorana n'ibigo bya leta n'abandi bantu ku giti cyabo, bakeneye abazamu cyangwa uburinzi, bafite ibikoresho bitandukanye ndetse bafite n'abarinzi bakoresha imbunda.

Inoti y'amafaranga igihumbi ni inote yiganjemo ibara ry'icyatsi n'ubururu, hejuru yanditse Banki nasiyonale yu Rwanda. Mu nguni hakaba harimo umubare igihumbi. Hagati ku ruhande i buryo hari igishushanyo cy'igi kirimo ikirangantego cya Repubulika. Ku rundi ruhande hari inka, munsi yaho agana hasi handitse amafaranga igihumbi.

Isahane iriho capati, capati ni ibyo kurya biba bikoze ahanini mu ifu y'ingano batetse ku ipanu bakoresheje amavuta. Capati ushobora kuyisangiza icyayi cya mukaru, icyayi cy'amata ,cyangwa se inshyushyu cyangwa ikivuguto.

Ukoresheje serivisi za mobile money ashobora kuguraho murandasiye wifuza yababa muri ambasadeci yobukoresha wowe ubwawe ukoresha ako kazi cyangwa se gukoresha mugo agukanakanyenyeri gahatuganae gatanu ushyiraho urwego.

Akazu gatangirwamo serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga yoherezwa kure cyangwa se hanze y'igihugu, hari uburyo butandukanye bukoreshwa urugero nka wesitani yuniyoni cyangwa se manigarama, ushobora koherereza amafaranga inshuti yawe yagiye mu mahanga cyangwa se nawe akayakoherereza.

Intebe zikoze mu mbaho zisize verine zimeze neza ziri kumwe n'ameza yazo umuntu yakoresha ahantu hatandukanye, ushobora kuzikoresha mu rugo kwakiriraho abashyitsi, kuzikoresha aho bafatira amafunguro cyangwa se ahandi

Intebe nziza zikoze mu mbaho kandi zisize ku buryo ubona zibengerana, zifite imisego ku buryo uyicayemo wumva rwose umeze neza; ushobora kuzikoresha mu ruganiriro cyangwa ahandi hantu aho ari hose.

Ihoteli nziza cyane igezweho, ifite ibyuma byinshi bitandukanye kubera ko ni inzu igeretse, hari ibiti bitandukanye bizana akayaga kandi hari n'ahantu abantu bogera ndetse n'aho baruhukira barangije koga.

Hoteri ifite pisine yo kogeramo, iruhande rwa pisine hari ameza n'intebe abantu bashobora kwicaramo mu gihe bavuye koga, hari ubusitani bwiza cyane butoshye.

BPR Rwanda ni kimwe mu bigo by'imari bikorera mu Rwanda. BPR Rwanda si mu Rwanda gusa ikorera, ahubwo ikorera no mu bindi bihugu by'ibituranyi, urugero nko muri Kenya. BPR Rwanda itanga serivise zitandukanye z'imari hakubiyemo kubitsa, kubikuza no gutanga inguzanyo ku bakiriya bayo.

Isoko ryo mu cyaro, ni isoko ahanini ribera ahantu hanze hadatwikiriye, ku buryo abantu ibicuruzwa babirambura hasi, ririmo gucuruzwamo inkweto, imyenda n'ibindi bitandukanye abantu bashobora kugura.

Aho bacururiza imbuto n'ibiribwa bitandukanye. Hari umugore wicaye, arimo aracuruza imbuto, amaronje n'indimu. Arimo gucuruza kandi imyumbati, ibishyimbo n'amafu atandukanye. Inyuma ye hari ibindi biribwa bitandukanye arimo gucuruza.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, ni iduka usangamo imyambaro y'igitsina gore urugero nk'ibitenge, kandi ukaba wasangamo imitako itandukanye nk'iyo gutaka mu nzu cyangwa se gushyira ku bindi bikoresho.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye, harimo igitoki, amateke, karoti, ibirayi n'ibindi byinshi bitandukanye ndetse n'ibijumba.

Imodoka ebyiri zihagaze hafi y'isoko, imwe ni ivatiri ifite ibara ry'umweru, hari abantu bahagaze iruhande, hari abamotari bahagaze ku ruhande rwo hepfo rw'isoko kandi hari abagenzi batandukanye bamwe bari kw'injira abandi barimo gusohoka.

Ushobora gushyiraraho porogaramu ya eyateri muri telefone yawe igendanwa iyo porogaramu ushobora kugufasha gukora ibintu bitandukanye kubikuza amafaranga, kohereza amafaranga, kwishyura ibintu bitandukanye ukoresheje eyateri mani n'ibindi.

Aka kazu ni akazu bacururizamo serivisi za emutiyeni . Ushobora kujyayo ugiye kubitsa amafaranga, kohereza amafaranga, kuyabikuza cyangwa se kugura serivisi wishyura ziyikoreshwa mobayilomani.

Inzu nziza cyane ikodeshwa iherereye ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiyuhagiriro bubiri.

Inzu ikodeshwa i Kigali Kanombe, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiyuhagiriro butatu, ni inzu iri ahantu ku umuhanda, yubatse neza kandi iri ahantu hitegeye umujyi, ifite igipangu.

Ejo heza ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire, ni aho umuntu atanga imisanzu ye kugira ngo azamugoboke mu gihe ageze mu zabukuru, imisanzu ya ejo heza icungwa n'ikigo k'igihugu gishinzwe ubwiganzi bw'abakozi RSSB.

RSSB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi, ikigo RSSB kandi gicunga ubwisungane mu kwivuza bw'abaturage batandukanye. Iyo umuryango wishyuye mituweli uba ufite uburenganzira bwo kwivuza kandi amafaranga ye akomeza gucungwa n'iki kigo.

Ejo heza ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire, kwizigamira muri ejo heza bituma mu gihe uzaba ugeze mu zabukuru, ubasha kubona amafaranga azakugoboka, ushobora kwizigamira wowe ubwawe cyangwa ukazigamira abagize umuryango wawe.

Abantu batandukanye barimo kuva no kujya guhaha mu iduka simba supamaketi, riherereye mu mujyi, haguru ya rompuwe. Simba supamaketi ifite amashami hirya no hino mu gihugu.

Isoko ry'imbuto zitandukanye, ni imbuto z'ubwoko bwose amaronje, amapera, indimu, inanasi, n'izindi zitandukanye mu iduka ryazo gusa nta umucuruzi urimo.